Inzu yicayemo abantu benshi barimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe abagabo bambaye amakoti n'inkweto ndetse harimo n'abambaye amashati.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu benshi, bari mu byiciro by'abagore n'abagabo, bicaye ku ntebe n'ameza atwikirijwe ibitambaro by'umweru.

icyumba cyicawemo n’ abagore n’abagabo, kirimo intebe zibaje mu ibiti n’ameza atwikirijwe igitambaro cy'umweru. Kurukuta hamanitse igitambaro cy'ubururu, umuhondo n’ icyatsi.

Imbaga y'abantu biganjemo abagabo n'abagore bicaye kudutebe twegamirwa tw'umweru imbere yabo hari umuntu w'umukobwa uri kubagezaho ibintu runaka.

Abagabo bicaye ku ntebe zitwikirije ibitambaro by'umweru bambaye imipira y'ubururu y'amaboko magufi ifite ikora abagabo barirabura.

Inzu yicayemo abagabo n'abagore, bazengurutse ameza y'umweru, hariho impapuro, umugabo umwe yahagurutse afite ikaramu mu ntoki ari kwandika ku mpapuro.

Mu nzu hicayemo abagabo n'abagore bicaye ku dutene dusa n'umuhondo, bambaye imipita y'ubururu ifite ikora, imbere yabo hari uducupa tw'amazi yo kunywa turi mu icupa ribonerana.

Abagabo n'abagore bahagaze, biganjemo abambaye imipira y'amaboko magufi isa nicyatsi n'abagore bambaye imipira y'amaboko magufi bahagaze hanze ku zuba.

Aha turi kubona abantu benshi bicaye bafite za mudasobwa zabo, ndetse hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu gufata amashusho, basa nk'aho ari itangazamakuru ryaje gukorana inama n'abantu b'ikigo runaka.

Abantu bicaye mu cyumba k'inama ku ntebe ziriho ibitambaro by'umweru harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hari insakazamashusho zibereka ibigezweho.

Mu cyumba cy'inama, hicawemo n'abantu benshi, harimo ibyiciro by'urubyiruko rwambaye imipira y'umweru, rwicaye ku ntebe zifite utubara tw'umutuku, imbere yabo hari abantu batatu bari kubaganiriza.

Mu nzu ahagazemo umugabo wambaye ishati y'umweru ,ufite imibiri yombi, yambaye amadarubindi n'isaha ku kaboko, ahagaze imbere y'abandi bantu bicaye ku ntebe z'umukara, bafite za mudasobwa, amakayi n'amakaramu imbere yabo biteretse ku meza.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe yambaye ishati y'umuhondo, afite indangururamajwi mu biganza, imbere ye hicaye imbaga ifite amacupa y'amazi imbere yayo.

Ihuriro ry'urubyiruko rigizwe n'inkumi n'abasore, inyuma yabo hahagaze abagabo bane, igikuta gisa n'umuhondo, hari inkingi zubakishije amatafari ahiye.

Abagore batatu bahagaze mu ihema, bari kwifotoza. Abagore mu buzima busanzwe babyara abana, bakarera, bakabaha uburere, bakabahana ingeso mbi, muri make ababyeyi ni ingirakamaro mu mikurire n'imirererwe y'abana.

Aha ni mu cyumba cy'inama, aho abitabiriye bose bahanze amaso umuntu uri kubaganiza ku ngingo runaka.

Imbaga y'abantu biganjemo urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, bicaye ku dutebe dukoze mu isima ifashe ku butaka, bisize amarangi y'umutuku.

Umugore n'umugabo bicaye ku ntebe z'umukara nakameza gasize irangi ry'mutuku. Umugabo numupolisi wamayenyeri ari ku rutugu rwe ndetse umwambaro wa gipolisi hariho n'idarapo ry'u Rwanda.

Ahateraniye abarimo abagabo n'abagore, umukobwa wambaye umupira wamaboko magufi ufite amadarubindi mu gatuza, ari kuvugira mu ndangururamajwi.

Abagabo n'abagore bicaye mu nzu mo imbere ishashemo amakaro bicaye ku dutebe twegamirwa dufite imisego y'umutuku, bamwe bafite uducupa twamazi.

Mu nzu hicayemo abagabo n'abagore, hari ameza atwikirijwe igitambaro gifite amabara y'ubururu n'umuhondo. Umugabo uri imbere yambaye amadarubindi, yambaye n'ikoti imbere ye hateretse mudasobwa.

Umugabo yicaye mu ntebe y'umukara, yambaye ikoti, imbere yaryo harimo ishati isa n'umukara, ku kaboko yambaye isaha, mu maso yambaye amadarubindi, imbere ye hari indangururamajwi, imbere ye kandi hari agacupa karimo amazi gapfundikije umufuniko w'ubururu.

Iri ni ikoraniro ry'abantu batandukanye bafite za mudasobwa bicaye mu cyumba bari guhabwa amahugurwa no kwigishwa ku ngingo runaka .

Umugabo w'umwirabura wambaye amadarubindi y'umukara yambaye ishati y'ubururu irimo uturongo tw'umweru, ahagaze imbere y'imbaga irimo abagabo n'abagore afite indangururamajwi inyuma ye hari n'abambaye imyenda ya gisirikare.

Abantu bicaye hamwe ahantu mu kirongozi, iruhande rwaho hari uduti tumeze nk'indabyo, abo bantu harimo abagabo ndetse n'abagore. Abagore ni ingirakamaro mu iterambere ry'igihugu kuko batanga uburere kandi barabyara.

Mu nzu ihuriyemo n'abagabo n'abagore bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ashasheho igitambaro cy'umweru, hateretseho amazi yo kunywa ari mu icupa ribonerana, rifite amagambo yanditse ku gapapuro karyometseho, umufuniko wayo ni ubururu bweruye.

Inzu yicayemo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe zegamirwa zisa n'umukara, imbere y'abo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa ari mu gacupa.

Icyumba k'inama giteraniyemo abagabo benshi bicaye ku ntebe z'umukara no ku meza atwikirijwe ibitambaro by'umweru bose bafite utwapa duhagarariye ibigo baturutsemo.

Abagore n'abagabo bicaye mu cyumba cy'inama, gishashemo amakaro hasi, gifite inkuta zisize amarangi y'umweru, imbere yabo hahagaze umugore uri kubabwira ibintu.

Ibara ry'umweru ryicawemo n'abagabo benshi harimo n'abambaye impuzankano ya gisirikare cy'u Rwanda n'abagabo babiri birabura iruhande rwabo hicaye umugabo wambaye agapira k'amabara afite amaboko magufi arasuhuzanya n'umugore wamuhaye amaboko yombi.

Abagore batatu bicaye ku ntebe zikozwe mu cyuma zifite n'udusego duto, imbere yabo hari ameza atwikirijwe n'igitambaro, uri hagati afite ikaramu yambaye amadarubindi.

Porofeseri Shyaka Anastase yambaye ikoti ry'umukara mu imbere harimo ishati y'umweru yahoze ari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba gikorerwamo inama, harimo abantu bicaye ku ntebe z'umukara, harimo ameza y'umutuku imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi y'Inyange.

Abagore n'abagabo bicaye mu itente ritakishije ibitambaro by'umweru n'icyatsi, imbere yaho hari ibitambaro bitatse amabara y'u Rwanda aribyo icyatsi, umuhondo n'ubururu, hicayemo abantu imbere yabo hari udutebe duteretseho amazi yo kunywa.

Abantu bane, batatu ni abirabura, umwe ni umuzungu, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hateretse uducupa tubonerana turimo amazi yo kunywa.

Mu nzu hateraniyemo abantu benshi bicaye ku dutebe tw'umweru, imbere yabo hicaye abantu bane harimo umugabo wambaye imyambaro ya polisi y'u Rwanda.

Umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki ze ari kuyivugiramo yicaye hagati y'undi mugabo n'umugore, umugore wambaye ikanzu y'icyatsi y'amaboko aciye, umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi yambaye ishati y'umukara bicaye ku meza harihoho igitambaro cy'umweru.

Inzu ifite amarangi y'umweru ku nkuta zayo, ndetse n'andi y'umuhondo, inzu ni ingirakamaro kuko inzu ishobora gukorerwamo ibikorwa nk'ubucuruzi, igaturwamo n'abantu imiryango, inzu ishobora gukodeshwa, kandi naba nyirayo ikabinjiriza amafaranga.

Ese abantu baguze cyangwa babonye umutungo utimukanwa mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane bararebwa no kwishyura umusoro? yego umuntu wahawe uburenganzira bwo kwitwa nyir' umutungo utimukanwa agahabwa icyangombwa cyuwo mutungo muri uyu mwaka nawe afite inshingano zo kuwu sorera niba uwo mutungo utari wasorerwa nuwari uwufite mbere.

Umunara muremure ufite ibyuma bisobekeranye bisize amarangi yo mu ibara ry'umutuku n'umweru, umanitseho ibikoresho bimeze nk'ingoma bikoze mu cyuma bikoreshwa mu itumanaho ry'amatelefone.

Umugore wimibiri yombi wambaye umwenda usa umuhondo yicaye mu ntebe y'umukara akikijwe n'amadarapo abiri ashinze inyuma ye harimo idarapo ry'u Rwanda n'ikirangantego cy'igihugu .

Aha haragaragazwa imbaga y'abantu bari gufata amakuru bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga, bamwe bari kureba amakuru kuri za telefone zabo zigezweho, abandi bari gufata amakuru bifashishije za kamera za rutura.

Itsinda ry'abagabo n'abagore bambaye udupira tw'icyatsi, bafite ibiti byo gutera mu ntoki bikiri bito, biteretse mu dushashi duto turimo ibitaka bivanze n'ifumbire.

Mu nzu hahagazemo abagabo babiri, umwe ni umuzungu, undi ni umwirabura, bahagaze imbere y'ameza ariho za mudasobwa.

Icyumba kicayemo abanyeshuri, imbere yabo hateretse za mudasobwa ziri hejuru y'intebe zicarirwa zifite n'utumeza hejuru bari gukoresha mudasobwa. Mudasobwa ikoreshwa ubusanzwe mu kwandika inyandiko ndetse no kuba wajya kuri murandasi.

Umunara ufite ibyuma bisize amarangi y'umweru umutuku n'umuhondo umanitseho ibyuma bikoreshwa mw'itumanaho bifite amarangi asa umweru n'umuhondo.

Urubuga rw'irembo rufasha umuturage kwikorera serivisi zitandukanye ubu ruratubwira ko umuntu wese yabyikorera mu rubuga rw'irembo umuturage ashobora gusabiramo serivisi zitandukanye nka serivisi za polisi ubwo ndavuga serivisi zijyanye n'ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga serivisi zigaragaza ko utafunzwe n'izindi serivisi.

Umunara muremure cyane wubakishije ibyuma, biri mu mabara y'umutuku n'umweru, umanitseho ibikoresho bikoreshwa mu itumanaho, bifite ishusho ijya kumera nk'ingoma.

Urubaraza rushashemo amatafari atatse ku buryo bwiza, ruri imbere y'inzu ikorerwamo ibyo ubucuruzi bwo kudekarara imisoro ya rura ndetse na serivisi zo gusohora impapuro.

Umunara wubakishije ibyuma bisobekeranye bisa n'icyatsi, ushinzeho ibikoresho by'itumanaho bifite amabara y'umweru, impande zawo hateye ibiti.

Serivise ikoreshwa mu guha inyemezabwishyu yongerewe ubushobozi, shyiraho murandasi yawe ubashe kwakira amakuru agezweho.

Abagabo batatu bambaye imipira y'amaboko magufi, bahagaze hanze imbere y'a ahubatse umunara uri ibikoresho by'itumanaho.

Kwigaragaza ku bushake, harabura umunsi umwe. Garagaza imisoro utamenyekanishije mbere ya bibiri na makumyabiri n'agatatu, ukurirweho amande n'inyungu z'ubukererwe. Itariki ntarengwa ni makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi bibiri na makumyabiri na kane.

Igikuta kimanitseho icyapa gifite ubuso bw'ubururu mu ishusho y'urukiramende cyanditsemo ijambo irembo, irembo ni urubuga rukoreshwa mu kwisabira serivisi muri leta harimo nka serivisi zo kudekarara imisoro, serivisi zo kwaka ibyangombwa by'ubutaka, ibyayangombwa by'uko wavutse n'ibindi byinshi.

Umuhungu yicaye imbere ya mudasobwa, yambaye amadarubindi, afite ubwanwa ku matama, yambaye ingofero ndetse n'ijire y'umukara.

Umusore wambaye umupira w'umweru n'ingofero y'ubururu, ari imbere ahagaze imbere y'ameza ahicaye umugabo wambaye ishati n'ipantaro y'umukara ku ntebe y'umweru, imbere yabo hateretse imashini ishinzwe gufotora impapuro ndetse na mudasobwa.

Abakobwa babiri harimo umwe ufite imisatsi isutse y'umukara wambaye umupira wo kwifubika usa n'ivu arikumwe n'undi mukobwa wambaye ishati y'impuzankano y'ishyura isa n'umweru na karuvati y'icyatsi bari gukora ibijyanye n'ibyo bize kumeza.

Abagabo bari ku munara bambaye ibikoresho by'ubwirinzi, harimo amasarobeti, ingofero z'ubururu zibarinda icyabagwira ku mitwe, ndetse n'inkweto zikomeye zibarinda icyabajomba. Bari ku munara w'amashanyarazi.

Umunara ushinze ukozwe n'ibyuma bisobekeranye ,uriho insinga z'amashanyarazi ziwukwirakwiza mu duce dutandukanye umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa mu gucana mu ngo no ku mihanda.

Umunara wubakishijwe ibyuma bishinze mu butaka bisobekeranye, umanitseho icyuma gishinzwe gutanga umuriro ukwirakwizwa mu gace. Umuriro w'amashanyarazi ukoreshwa mu ngo cyangwa mu nganda, mu mashuri ucomeka za mudasobwa, mu ngo ucomeka ibyuma bikonjesha n'ibishyushya.

Imbuga ngari yubatsemo ibikoresho bitanga umuriro w'amashanyarazi yo mu rugo cyangwa yo mu nganda. Umuriro w'amashanyarazi ni ingenzi cyane mu nganda, kuko utuma imashini zaka kandi urakonjesha ukanashyushya mu nganda.

Ibyuma byifashishwa mu gukora urugomero rw'amashanyarazi ,amashanyarazi akoreshwa mu ngo mu gucanira abantu, mu mihanda, mu kumurika, akoreshwa kandi mu byuma bishyushya, ibikonjesha ndetse amashanyarazi anakoreshwa mu kumurika muri za stade inzu z'imyidagaduro .

Igiti gishinze mu butaka, gifasheho insinga z'amashanyarazi, zigana ku bindi biti cyangwa se mu ngo z'abantu bakoresha amashanyarazi.

Urugo rwubakishijwe amatafari ya rukarakara, rufite nimero enye nka nimero iruranga, igipangu cy'icyatsi kimanitseho itara rimurika ku muhanda rusakawe n'amabati asa umutuku.

Umunara wu wakishijwe ibyuma bisobekeranye uma nitsweho insinga z'amashanyarazi, amashanyarazi akoreshwa mungo mugucana ku mihanda mu kumurika ndetse ana koreshwa mu nganda.

Ipoto ishinze hasi iriho insinga z'amashanyarazi. Amashanyarazi akoreshwa mu rugo mu gucana cg se kuba yakwatsa ibyuma by'ikoranabuhanga, nk'amateleviziyo n'amatelefoni.

Umugozi ukoreshwa mugucomeka mudasobwa igihe yashizemo umuriro, ukoresheje ibikoresho bisa nk'umukara uteretse hejuru ku meza.

Impande y'umuhanda w'umukara, hahagaze umugore uhetse agakapu mu mugongo, imbere ye hateretse umufuka upakiyemo ibintu, uziritse ndetse n'ibase.

Insinga ziyobora umuriro w'amashanyarazi ujya mu duce runaka, zimanitse ku ipoto ry'icyuma, hejuru yaho ikirere kirasa n'amabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Ku muhanda inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara, ahari imiryango y'ubucuruzi bacuruza imyenda ndetse bakanacuruza n'ibikoresho byo kuryamaho igodora.

Imashini ikoranye ubuhanga bwo gutanga umuriro ukwirakwizwa mu gace imanitse ku byuma bisobekeranyije bigize umunara umanitseho insinga z'amashanyarazi.

Umunara w'icyuma ufite ibyuma bisobekeranye, umanitseho insinga zitwara amashanyarazi mu ngo, hejuru yawo hari ikirere gisa ubururu ndetse n'amabara y'umweru.

ubusitani buteyemo ibyatsi, hateyemo n'ibiti byiza. inyuma yabwo hari inzu ngari igeretse inshuro ebyiri, ikorerwamo n' imirimo itandukanye.

Inyubako y'ibitaro bya sehashibe ifite inkuta zisize amarange y'umuhondo ndetse n'ibirahure. Ifite ibyuma byongera umwuka mu nzu, mu mbuga yayo haparitse imodoka nyinshi, hashinze n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Imodoka y'imbangukiragutabara irasa n'umweru, ifitemo umurongo uciye mu mbavu zayo ubutambike usa n'umutuku, ku birarahuri bitabonerana handitseho ikimenyetso cyo guteranya mu ibara ry'umutuku.

Ibitaro byubatswe n'amatafari ya rukarakara, bisize irangi ry'umweru, bifite n'irangi risa n'igitaka, imbere yabyo hari umuryango ucamo imodoka z'ibitaro, ziza zizanye abarwayi.

Abagabo babiri bambaye amataburiya y'umweru bicaye ku ntebe z'umukara zifite amapine zihagaze ku makaro ashashe mu nzu.

Ku bitaro by'Umwami Faisal, hari inzu y'amagorofa, ifite ubuso buyiri imbere, buhinzemo ubusitani burimo ibiti, ndetse n'ubundi buso bushashemo isima y'igiheri. Hari isangano rifite ubusitani, riteyemo n'idarapo ry'u Rwanda.

Mu mbuga iriho isima y'igiri haparitsemo imodoka nyinshi harimo imodoka zisa n'umukara ndetse n'imodoka zisa n'umweru ,zose icyo zihuriyeho n'uko zigenda mu muhanda ziba zigomba kuba zifite umuyobozi igihe zigenda mu muhanda.

Mu mbuga y'inzu y'igorofa yubakishijwe inkuta z'umukara haparitse imodoka ebyiri z'umutuku, m'ubuso bwaho hashashemo amabuye y'urugarika.

Umuhanda ushashemo amabuye uragendwamo n'umugabo ufite akajerekani gasa n'umuhondo gapfundikije umufuniko w'umutuku, mu kundi kuboko afitemo agacupa gasa n'ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma ye hari umugore wambaye imyambaro y'ubururu, inkweto z'ubururu, uteze igitambaro, inyuma yabo hari imodoka eshatu zisa n'umweru.

Mu nzu ishashemo amakaro ifite inkuta zisize amarangi y'umuhondo n'umweru, iri kwakamo amatara y'umweru. Ifite udutebe twi'icyuma hicayeho abantu b'abagore n'abagabo.

Igiti giteye mu mbuga ifite ubuso bushashemo amatafari ni kiza kiri hanze gikenera amazi kugira ngo gikure, igiti cyongera ubwiza bw'imbuga kandi igiti iyo gikuze cyane kiratemwa kigakoreshwa mu yindi mimaro nko gutanga imbaho cyangwa gucanwa.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ifite urugi rufunze. Imbere yaho hari udutebe twubakishije isima iteyeho irangi ry' umukara, hicayeho abagabo n'abagore.

Mu rukiko, Ingire Victoire yambaye imyenda y'iroza yambikwa abagororwa. Yambaye kandi amadarobindi, kandi yiyogoshesheje umusatsi. Hirya ye hari umucungagereza wambaye impuzankano y'akazi.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'iroze y'imfungwa bahagaze imbere y'abavoka bambaye amataburiya y'umweru n'umukara imbere yabo hari mudasobwa hateretse n'cupa ry'amazi y'inyange.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu, karuvati y’ umukara, n’ ishati y’ umweru afite indangururamajwi wicaye mucyumba cy' inama ku ntebe y’ umukara imbere ye hari ameza ateguyeho amazi yo kunywa.

Umuryango w'umukara ufashe ku nkuta zubakishijwe amatafari ya rukarakara imbere yawo hari abagabo babiri bambaye imyenda isa n'icunga ry'imbohe ha kuruhande hahagaze uwo mugabo wambaye kaki ucunga umutekano hejuru ari icyapa cy'uko ari gereza ya Nyarugenge.

Aba tubona mu myambaro y'iroza ni imfungwa n'abagororwa naho abambaye imyambaro ya kaki ni abacungagereza, bose bari gupimwa umuriro ndetse bakanahabwa imiti yica udukoko ku ntoki n'umupolisi wambaye imyambaro iri mu ibara ry'umukara.

Mu nzu harimo intebe ndende z'urubaho zifite igice cyo kwegamirwa, amaguru y'ibyuma, hicawemo n'abagabo n'abagore. Abagabo bicaye imbere, bafite inyandiko mu ntoki zabo, bambaye amakoti.

Abagabo babiri bahagaze bemye, bambaye amakoti y'ubururu ndetse n'amapantaro y'ubururu, umwe yambaye karuvati y'ubururu n'ishati y'umweru undi yambaye karuvati y'umutuku n'ishati y'umweru bafite igitabo bafashe mu ntoki zabo.

Umugabo wambaye amadarubindi abonerana yambaye imyenda y'irose y'imfungwa ari kumwe n'umwavoka wambaye itaburiya y'umukara irimo imirongo y'umweru bose ari abirabura.

Umugore wambaye ishati isa n'icunga n'umugabo wambaye ikote ry'bururu, ishati y'umweru na karuvati, umugore akaba yaziritse imisatsi ku gice cyuma, ndetse yambaye n'amadarubindi n'amaherena, imbere yabo hakaba hatetse ibikombe byo kunyweramo amazi.

Icyumba cyicayemo abantu, abicaye imbere bambaye agapfukamunwa k'ubururu imbere yaho hateretse agacupa k'amazi yo kunywa na za mudasobwa. Mudasobwa zikoreshwa mu kwandika inyandiko no kubika inyandiko.

Abantu batatu b'abirabura hagati yabo harimo umwe wambaye imyenda y'iroza y'imfungwa, abandi bari iruhande bambaye imyenda y'abavoka y'umukara n'umweru bose bambaye udupfukamunwa.

Umugore w'umwirabura uhagaze yemye, yambaye imyenda y'abacamanza, ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, akaba ahagaze imbere y'urukuta rw'umweru.

Amarembo y'Igororero rya Rwamagana rifite inkingi yubakishije amatafari ahiye n'inzugi zifite inyuma by'umukara. Hejuru yaho hariho icyapa kigaragaza ko ari igororero rya Rwamagana.

Mu mbuga y'inzu igororerwamo, hari imfungwa n'abagororwa b'abagabo, bambaye imyambaro isa n'iroza, imbere yaho hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Umugore ufite umusatsi karemano yambaye imyenda y'abacamanza iri mu mabara y'umutuku ndetse n'amabara y'umukara m'ubumanuko bwayo ndetse harimo n'akabara kajya kumera nka karuvate gasa n'umweru hateyeho igifungo cy'umukara.

Umuhanzi Kizito Mihigo yicaye ku ntebe y'urubaho yegamirwa yambaye isaha ku kuboko yambaye n'impuzankano y'imfungwa n'abagororwa iba mu ibara ry'iroza iruhande rwe hari indi mfungwa, imfungwa nayo ifite indi mfungwa iyiri iruhande yambaye impuzankano y'iroza .

Umugabo wirabura wambaye imyenda y'iroze y'mfungwa ahagararanye n'abavoka bambaye amasarubeti yumukara n'umweru bivanze babiri bahagaze iruhande rwe undi yicaye ari gusoma mu gitabo cye.

Ibikoresho bikoreshwa mu guhashya inkongi y'umuriro bikozwe mu icupa ry'icyuma biri mu mabara atukura byifiteho umupira n'akantu bakanda biteretse hasi.

Umuhanda w'umukara wacitsemo utunogo hari kugendwamo n'imodoka harimo iya polisi y'u Rwanda iri mu mabara y'umweru, ku mpande mu mbavu zayo handitsemo TRAFFIC POLICE.

Abagabo babiri bambaye impuzankano z' ishami rishinzwe kurwanya inkongi muri polisi y' u Rwanda. Bafite ibikoresho bibafasha kurwanya inkongi y' umuriro. Bari kurwanya inkongi y' imodoka yahiye.

Ibikoresho bikoreshwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, rigizwe n'icupa ritukura ry'icyuma, rifite umupira. N'irindi risa n'umuhondo weruye naryo rifite umupira n'akantu bakandaho.

Umupolisi wambaye impuzankano ya gipolisi, ahagaze mu muhanda w'umukara, imbere yaho hari icyapa gifite inkuta za mango 4G, imbere yaho haragenderwamo n'umuyobozi w'ipikipiki wambaye itaburiya ifite amabara y'umuhondo n'ubururu.

Inzu ifite igikuta gisize amarangi y'umweru hometseho igikoresho kifashishwa mu guhoshya inkongi y'umuriro, kiri mu mabara y'umutuku.

Mu mbuga ngari haparitsemo imodoka y'amabara y'umweru, mu mbavu zayo handitsemo amagambo nka traffic police, bigaragaza ko ari imodoka y'urwego rw'igihugu rwa polisi rushinzwe umutekano wo mu muhanda.

Aha umukozi wabihuguriwe ari kwereka imbaga nyamwinshi uko ishobora kwitwara mu kuzimya inkongi y'umuriro, yaturutse ku bicanwa by'imyuka bikoreshwa mu guteka mu nzu bifashishije igitambaro cy'amazi.

Icupa ry'igikoresho gikoreshwa mu guhashya inkongi y'umuriro, gikozwe mu cyuma gisize irangi ry'umutuku gifite umupira n'akantu bakandaho igihe bari kuzimya umuriro.

Umugabo wambaye imyenda y'ubwirinzi irimo amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, ari kwigisha abana bato bambaye n'ingofero z'ubwirinzi bafite itiyo y'amazi bakoresha igihe habaye inkongi y'umuriro.

Akazu gato gafite amadarage atatu, kubatse imbere y'inzu y'amagorofa, gahagazwe imbere n'abagabo babiri babapolisi bafite imbunda, bambaye impuzankano z'umukara, bose bambaye ingofero ndetse n'inkweto z'umukara.

Abakozi bashinzwe kuzimya iby'inkongi y'umurimo bambaye imyambaro y'amakoti y'umurimo afite amabara y'umukara ndetse n'umuhondo bafite ibikoresho byo kuzimya umuriro, bari kuzimya umuriro.

Inzu y'igorofa ikorerwamo na polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe amategeko n'umutekano wo mu muhanda iherereye ku muhima ku muhanda umanuka cyangwa uzamuka uva muri gare ya Nyabugogo.

Abagabo babiri bahagaze impande y'inzira nyabagendwa, ku kayira kubabatseho akazu kagenewe kwicarwamo n'abagenzi igihe bategereje imodoka, bambaye impuzankano za polisi y'u Rwanda.

Hanze ku zuba hateraniye imbaga y'abantu biganjemo abanyeshuri bambaye impuzankano zigizwe n'amashati y'mweru y'amaboko magufi. Bari kwerekwa na Polisi y'igihugu uko barwanya inkongi y'umuriro bifashishije ibikoresho byabugenewe.

Icyumba cy'inama kiri kwakamo amatara y'umweru; kirimo intebe zisa umukara n'ameza, hicayemo abantu benshi.

Umukandida w'ishyaka rya girini pat Frank Habineza ari kumwe n'abo bahuriye mu ishyaka bari kwiyamamaza, bari mu gikorwa cyo kwiyamamariza kuyobora umukuru w'igihugu bari hanze izuba rirava.

Umugabo uyobora igihugu cy'u Rwanda yambaye umupira w'amaboko maremare y'umweru ku ikora haciyemo uturongo tw'ubururu n'umweru, yambaye ipantaro yatebeje, yambaye ingofero y' yumukara irimo ibirango bya efuperi aramwenyura, yambaye amarinete inyuma ye hari imbaga nyamwinshi igaragaza akanyamuneza.

Inzu ikorerwamo inama irimo abantu benshi harimo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe z'umukara harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda perezida paul Kagame, afite indangururamajwi ari kubagezaho ubutumwa.

Mpayimana Firipe umukandida mu matora ya perezida w'igihugu cy'u Rwanda, yambaye ikoti risa n'ivu karuvati y'umukara n'ishati y'umweru ari hagati y'abagabo babiri.

Abantu benshi bahagaze bafite amadarapo yishyaka rya "FPR" ari mumabara y’ umutuku, umweru ndetse n’ubururu bahagaze hanze.

Hanze ku zuba hari abaturage benshi bambaye ingofero z'amabara atukura umweru n'ubururu n'utwapa twa fefupe eri, iruhande rwabo hari inkingi yanditseho amagambo ngo umuturage ku isonga.

Ababyinnyi bambaye ibituza gusa, bisizwemo amabara y'umutuku, umweru, n'ubururu bweruye, ndetse no mu maso kugera ku maboko, uri imbere mu gatuza harimo inyuguti ya pa inyuma yabo hari imbaga nyamwinshi.

Habineza frank umukandida mu matora ya repubulika y'u Rwanda yambaye ikoti ry'ubururu umupira w'umweru n'ipantaro y'ubururu. Inyuma ye hicaye abategarugori ndetse n'abagabo ku ntebe z'ibiti.

Imbaga nyamwinshi higanjemo abagore n'abagabo, bambaye imipira y'ubururu n'umweru, bafite utudarapo dutoya, barimo baramamaza ishyaka rya perezida w'u Rwanda efuperi.

Mu cyumba gitatswemo n'ibitambaro by'ubururu, umuhondo n'icyatsi, hicayemo umugabo wambaye imyenda y'umukara, ufite urupapuro rw'umweru mu ntoki, harimo umuseseri, wambaye imyambaro y'umweru, ari gutoresha.

Umugabo w'irabura wambaye ikoti ,ishati na karuvati ufite umusatsi yateretse imbere ye hari idarapo ry'u Rwanda yamanitse akaboko ari kurahira.

Umugore wambaye ingofero n'umupira uriho ibirango by'ishyaka rya Efuperi, aravugira mu ndangururamajwi, inyuma ye hari igitambrao gishushanyijeho umukandida wa Efuperi, Paul Kagame.

Abaturage benshi harimo abagabo n'abagore bashesha akanguhe bafite igipapuro mu ntoki barimo baramamaza umukandida uri guhatanira kuyobora igihugu cy'u Rwanda ariwe Mpayimana philippe.

Abagore babiri bambaye imipira y'umweru, ifite amagambo y'umukara mu mugongo, hasi bambaye imyambaro y'umukara, impande yabo hari agasanduku kabonerana karimo impapuro.

Imbaga y'abantu bambaye imyambaro yiganjemo y'ibara ry'umweru n'umutuku bafite amadarapo ari mu ibara ry'ubururu, umweru n'umutuku, n'ibirango byanditseho FPR.

Abagabo n'abagore bateraniye mucyumba kitarimo urumuri rwinshi bicaye kudutebe tw'umweru ndetse nutundi twegamirwa dusa n'umukara.

Igishushanyo mbonera cyerekana uko inzego zirutanwa, habanza akarere, hagakurikiraho umurenge, hagakurikiraho akagari, hagakurikiraho urwego rugufi ari rwo; umudugudu.

Umugabo wicaye ufite ikaramu aki kwandika, wambaye ikoti ry'umukara inyuma, ye hari imbaga y'abantu, ni perezida w'igihugu cy'u Rwanda, Paul KAGAME, i mpande ye hahagaze umugore wambaye imikenyero y'ubururu, ni madamu we.

Imodoka nini itwara abagenzi muburyo bwa rusange, ifite amabara y'icunga rihishije ndetse n'amabara y'mweru y'uruganda rwa utongo iparitse mu cyanya giparikwamo imodoka zitegereje abagenzi.

Uyu ni umuhanda wubatswe mu buryo bugezweho ugenderwaho mu byerekezo byombi. Haragaragaramo amapikipiki, ndetse n'ibinyabiziga nk'amamodoka kandi aha ni mu mujyi uko bigaragara.

Imodoka iri kugendera mu muhanda w'umukara, ikaba ari igikamyo cyagenewe gutwara imizigo gisa n'umweru, hakaba mo imbere harimo abantu babiri, ndetse inyuma ahajya imizigo hakaba nta kintu kirimo, hejuru yayo hateretseho ipine.

Imodoka itwara imizigo, itwaye umuzigo munini, hejuru yawo hicayeho umugabo wambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'amaguru maremare. Imodoka iragenda ku muhanda w'umukara.

Igikamyo cya rukururanwa gitwara ibicuruzwa mu isanduku isa n'umutuku, imbere ifite igice gisa n'umweru kiri kumanuka mu muhanda w'umukara.

Imodoka itwara imizigo iragendera mu muhanda w'umukara, imodoka inkwa esanse cyangwa mazutu kugirango ibone imbaraga zo kugenda, kandi iba ifite umuyobozi wayo uyitwara.

Igikamyo gisa n'umutuku gitwara ibikoresho cy'ubwubatsi cyiganjemo amabuye n'umucanga kiragendera mu muhanda w'umukara ruguru yaho hari ingo z'abaturage.

Mu mujyi hari igikamyo gitwara ibicuruzwa i ruhande rwayo hari imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ifite amabara y'umweru mu mbavu zayo ndetse n'akabara gato gatambitse k'ubururu, hari abagenzi bari kugenda mu muhanda babisikana nazo.

Umuhanda w’umukara uciyemo imirongo y'umweru igaragaza aho abanyamaguru bagomba kwambukira umuhanda, harimo umumotari utwaye ipikipiki yambaye ingofero y'ubwirinzi.

Imodoka y'igikamyo ifite ibara ry'umutuku, ikaba igenewe gutwara imizigo, ikaba ifite inyuma icyuma giteretseho gifasheho kigenda gifashe imizigo, ariho imizigo ishyirwa ikaba iri kugendera mu muhanda w'umukara.

Umuhanda w'umukara uragendwamo n'imodoka y'amabara y'umweru, ifite umwanya w'inyuma ufunguye utwarwamo imizigo. Imizigo itwarwamo ni ibitanda, intebe, ameza n'ibindi byinshi.

Igikamyo gifite isanduku y'umweru gitwara ibicuruzwa kirikugendera mumuhanda w'umukara impande zacyo haragendera umunyonzi uhetse umugenzi.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ifite ibyuma ku mpande bisize irangi ry'umweru, itwikirijwe n'ibyuma bisa n'umweru mu mbavu hari utubara tw'icyatsi iragenda ku muhanda w'umukara.

Imodoka y'igikamyo nini ifite ibara ry'icyatsi, ipakiye imizigo ipfunyikishijwe shitingi y'umweru, iri gukata igana mu muhanda w'umukara harimo n'amapikipiki atwaye abagenzi.

Moto y'amapine atatu isa n'ubururu ipatitse hagati y'imodoka imbere yayo hari indi moto y'amapine atatu.

Umuhanda w'umukara, uri kugendwamo n'imodoka; imwe y'umweru, indi y'umukara ndetse n'pikipiki itwawe n'umugabo uhetseho umugore, bose bambaye ingofero zisa nk'umuhondo.

Imodoka itwara abagenzi, isa n'umweru imbere yangiritse cyane, itwawe n'umushoferi mo imbere nta muntu wicaye mu ntebe z'inyuma, iri kugendera mu muhanda w'umukara.

Imodoka y'umweru y'ikamyo itwara imizigo iri mu muhanda w'umukara, iri kubisikana n'indi modoka ntoya kuri yo igenda ifite imyanya ine. Hirya yayo hari umuntu w'umunyamaguru uri kugenda bisanzwe.

Igikamyo gisa n'umutuku gifite umwanya munini w'inyuma umeze nk'isanduku ifunguye hejuru gikoreshwa mu kwikorera ibikoresho by'ubwubatsi nk'amabuye ndetse n'umucanga ;iki gikamyo kinywa mazutu cyangwa esansi ikindi gikenera umuyobozi kugirango kigende.

Ingorofani ikozwe mu byuma ifite n'amapine, ifite umwanya wo guterekamo imizigo, yagenewe gutwara imizigo nk'iri mu mifuka, nk'ibirayi se, ibijumba bipakiye mu mufuka, ibitoki, ikoreshwa mu kazi ka buri munsi itwara ibintu biremereye umuntu atatwara mu maboko.

Igikamyo cya rukururanwa gisa n'ubururu kifitemo utubara tw'umweru n'umutuku kiragenda mu muhanda usa n'umukara ku manywa izuba riva.

Imodoka ifite igice kimbere gisa n'umweru ihetse ikigega cyayo bikoranye gitwarwamo amazi iragendera kumuhanda usa n'umukara.

Mu muhanda w'umukara, imbere yaho hahagaze abayobozi b' amapikipiki bamwe bazicayeho; ku mapikipiki hamanitseho ingofero zagenewe kurinda abicaye ku mapikipiki. Ipikipiki n'ingirakamaro mu ngendo za buri munsi.

Igikamyo cya rukururanwa, gifite igisanduku cy'inyuma gitwarwamo imizigo, gifite igice cy'imbere gisa n'umweru, cyicayemo umushoferi kiragendera ku muhanda w'umukara.

Imodoka ifite igice cy'imbere gisa n'umweru, igice cy'inyuma kimeze nk'isanduku nini. Gisa n'umuhondo gihekwamo imizigo. Imodoka ndende yigikamyo inywa esase cyangwa mazutu.

Mu nzira nyabagendwa harimo imodoka nini y'umweru ibisikana n'akamodoka gato ko mu mabara y' umukara, imbere yako hari imodoka igendwamo n'abagenzi uburyo bwa rusange, ifite amabara y'ubururu. Impande zabyo hari akayira k'abanyamaguru.

Umuhanda w'umukara uri kugenderamo ipikipiki itwaye umugenzi, inyuma yayo hari indi pikipiki, ndetse hari indi imodoka y'umukara iri gukata yinjira muri uyu muhanda w'umukara.

Ipikipiki igendera ku mapine atatu ifite ibara ry'ubururu ndetse ipfunyikishijwe shitingi y'umukara iri mumuhanda w'umukara iri kugenda ibisikanye n'umuntu utwaye ikinyamitende.

Igikamyo kisa n'umweru gitwara ibikoresho by'ubwubatsi, birimo amatafari n'imicanga kiragendera ku muhanda w'umukara hasi hashashe isima y'igiheri.

Umuhanda w'umukara, haragendwamo n'umuyobozi w'ipikipiki, wambaye itaburiya ifite amabara y'umuhondo hejuru n'amabara y'ubururu ku gice cyo hasi, ipikipiki ifite amabara y'umutuku, ahetse umugenzi.

Mumbuga yinzu ishashemo amatafari hari akadomoro gato kahariwe gutabwamo imyanda, imyanda ikusanyirizwa ahantu hamwe kugirango turinde ibidukikije.

Aha ni mu mujyi ahakorerwa imirimo y'ubucuruzi, hari uburyo bwinshi ukoreshwa mu bwikorezi harimo nk'imodoka zikoreshwa mu gutwara ibicuruzwa, amagare ndetse n'abantu babitwara ku mitwe yabo.

Imodoka y'umweru ishinzwe gutwara abagenzi ahantu hatandukanye, ihagaze muri gare ya Nyabugogo, ahategerwa imodoka z'abagenzi bajya mu ntara ahantu hatandukanye.

Inyuma y'imodoka isa n'umweru ifite umwanya utwarwamo imizigo, haparitse igare, igare bakunda kuryita ngo ni matabaro, baryicaraho bakaritwara mbese rigafasha uritwaye gutwara imizigo, abenshi baritwaraho ibitoki, ubwatsi bw'amatungo, kuvoma amazi n'ibindi byinshi.

Imodoka nini ifite isanduku batwaramo imizingo, iragenda ku muhanda w'umukara. Ihetse inka nyinshi zirimo amabara y'umweru n'umukara, mu gisanduku cyayo.

Imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo isa n'umweru ifite igisanduku inyuma ifunze neza itwarwamo imizigo irakatira mu ikoni, mu ikoni iyo umutwazi cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga ahageze aba akwiye kwitwararika cyane kuko haberamo impanuka.

Imodoka isa umweru ifite umwanya w'inyuma wo guhekamo ibintu icanye amatara y'imbere ni nijoro amatara yo kumuhanda araka.

Umuhanda w'umukara uragendwamo n'umuyobozi wipikipiki wambaye ingofero yumukara ahetse umugenzi wambaye ingofero y'umuhondo yo ku ipikipiki bageze aho abagenzi bambukira .

Igikamyo cya rukururanwa gisa n'umweru gifite ikimeze nk'igice cy'idomoro inyuma yacyo kijyamo ibisukika nka esanse, kiragendera ku muhanda w'igikara.

Umuhanda w'umukara uragendwamo n'imodoka nto, yicawemo n'abantu. Imodoka ifasha abantu kugenda urugendo rurerure, inywa esanse kandi hari igihe ijya ipfa bigasaba ko bayikoresha.

Ipikikipi ifite amapine atatu, isa n'ubururu mu mbavu zayo handitsemo amagambo hadibodi itwawe n'umuyobozi iri kugendera mu muhanda usa n'umukara.

Impande z'inzira nyabagendwa haparitse moto y'amapine atatu itwara imizigo, inyuma yayo haparitse imodoka nayo itwara imizigo ifite ibara ry'icyatsi.

Imodoka itwara abagenzi muburyo bwihariye ifite amarangi y'umweru imbere no kumpande zayo ndetse harimo n'ibara ritambitse ry'umuhondo iragendera mumuhanda w'umukara.

Umuhanda w'umukara ufite ubuso bushashemo isima y'igiheri uragendwamo n'abanyonzi ndetse na moto y'amapine atatu isa n'ubururu iyi moto ikaba itwarwamo imizigo itabasha gukwira kuri moto isanzwe .

Umujyi usukuye ufite ubwiza bugaragarira amaso, harimo ibikorwaremezo nk'inzu z'amagorofa atangaje cyane, ufite kandi aho abantu bicara baruhuka cyangwa se baganira, iruhande rwaho ukikijwe n'udusimu twubatse mu buryo bugezweho aho imyanda ishobora kujugunkwa.

umuhanda w'umukara haragendwamo numunya n'umuyobozi w'ipikipiki wambaye ingofero itukura iruhande rwe haragendwamo n'umunyamaguru mu gahanda kagenewe kugendwamo n'abanyamaguru gusa.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru gifite ubutaka buhinzweho ibyatsi biba bitagomba gukura cyane, kugirango ngo bitaza kubangamira abakinnyi b'umupira w'amaguru.

Ikibuga gikinirwamo umukino wamaboko, hasi hashashemo isima y'igiheri, gifite utwuma tubiri dushinze ku mpande, hagati yaho hamanitseho inshundura.

Ikibuga gikinirwamo imikino gifite ubwatsi bugiteyeho, kizengurutswe n'umurongo w'umweru, iruhande rwacyo hari intebe abaje kureba imikino bicaraho, imikino ibera mu kibuga.

Icyapa gifite ubuso bw'ubururu, gishushanyijemo umwambi ureba imbere mu ibara ry'umweru, gishyirwa imbere y'umuhanda kigakoreshwa mu kuyobora umuyobozi w'ikinyabiziga. Iki cyapa ni ingenzi kuko cyerekana ko umuhanda ukomeza.

Mpande eshatu ubuso ni umweruru, umuzenguruko ni umutuku, harimo akamenyetso k'umunyamaguru uri kwambukira mu gice kigabanya umuhanda, dukoresheje amabara y'umukara.

Muri kaburimbo, harimo imodoka ebyiri ziri kurenga. Iruhande rw'umuhanda hari icyapa cy'umweru cyanditseho ko ari Akarere ka Bugesera.

Icyapa cya mpandeshatu gifite ubuso bw'umweru buzengurutswe n'amabara y'umutuku hashushanyijemo akadundi kari mu mabara y'umukara, iki cyapa gishyirwa ku nyengero zinzira nyabagendwa.

Ishusho y'uruziga izengurutswe n'amabara y'umutuku, ubuso bw'umweru handitsemo mirongo itatu, ibi ni icyapa gishyirwa ku mpande z'inzira nyabagendwa kereka umuyobozi w'ikinyabiziga ko aho ageze yemerewe kugendera ku muvuduko wa mirongo itatu.

Akayira gacibwamo n'abanyamaguru ku ruhande hateye ibyatsi hashinzemo icyapa kerekana ko imodoka zitwara abagenzi zemerewe guhagarara ahangaha abagenzi bakavamo cyangwa bakajyamo.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, gifite ubuso bw'umweru, kizengurutswe n'akabara k'umutuku, gishushanyijemo imyambi ibiri ijya mu cyerekezo gitandukanye, iri mu ibara ry'umukara.

Ikoni ryumuhanda wa rambura, hamanitse icyapa kigaragaza ko uhageze ageze kuri rambura, cyanditse mumagambo yumukara, cyimanitse ku cyuma.

Icyapa cya mpandeshatu gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, hashushanyijemo utumenyetso tw'amabara dutatu, umutuku, umuhondo, icyatsi gishinze ku cyuma.

Impande y'umuhanda w'umukara, ubuso bwawo burimo isima y'igiheri, uciyemo umurongo urombereje w'umweru, hamanitse icyapa gisa n'umuhondo.

icyapa cya mpande enye ,gifite ubuso bw'umuhondo ,gishushanyijemo camera yo mu muhanda n'umuvuduko wa mirongo itatu ,gishinze ku cyuma ,iruhande rwa cyo hateye ibiti byinshi.

Icyapa kiri mu ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu giciyemo akarongo gatambitse kagabanya uruziga mo ibice bibiri bingana, gafite ibara ry'umutuku. Icyapa gishyirwa ku muhanda kikayobora abayobozi b'ibinyabiziga.

Icyapa cya mpandeshatu kizengurutswe n'amabara y'umutuku ku buso bw'umweru, gishushanyijemo umuntu ufashe akaboko umwana bari kwambuka, iki cyapa gishyirwa ku nkengero z'inzira nyabagendwa cyerekana ko imbere aho umuyobozi w'ikinyabiziga agiye kugera hari aho abagenzi bambukira.

Icyapa cyo mu ishusho ya mpandeshatu gifite umuzenguruko w'amabara y'umutuku, ubuso bw'umweru gishushanyijemo utudundi tubiri, yerekana ko umuyobozi w'ikinyabiziga imbere hashobora kuba hari utudondi agomba kwitonda igihe ahagera.

Inzu ndende igeretse inshuro enye, ikaba yubakishijwe amatafari ya rukarakara, ikaba isize amarangi y'umweru n'umukara. Imbere yayo, hakaba hari umuhanda w'umukara ucamo ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru.

Icyapa cyanditseho Kanombe, iki cyereka abahageze ko bageze mu gace ka Kanombe, iki cyapa cyandikishije amagambo y'umukara gishinze ku kuma, kiri hanze aho abantu bose bakabona.

Mu nzu y'umuturirwa y'akarere ka Gasabo hariho igiseke kinini kiri hejuru ku gisenge. Igiseke mu buzima busanzwe, cyakoreshwaga mu muco nyarwanda, kigatwarwamo ibishyimbo se, amasaka, muri make igiseke kibumbatiye byinshi mu muco nyarwanda.

Umugozi utwara umuriro wamashanyarazi usa n'umukara umanitse ku mapoto uraca mu kirere, amashanyarazi akoreshwa mu ngo no mugucana ku mihanda.

Imbere y'inzu y'igorofa haparitse amamodoka, haragendwa n'abantu n'amaguru ndetse haparitse n'abayobozi b'amapikipiki bambaye impuzankano zirimo amabara y'umuhondo n'icyatsi.

Impande y'umuhanda w'igitaka hari igipangu gifite urugi rufunze, kizengurutswe n'indabyo. Imbere harimo inzu ifite igisenge gishakaje amabati.

Umugabo uri kugenda mu muhanda w'abanyamaguru wegereye umuhanda w'umukara ugendwamo n'imodoka ageze ahashinze umutaka ndetse n'ameza akorerwaho n'uhagarariye MTN.

Umuhanda wigitaka uragendwamo n’umusore wambaye umupira w’amaboko magufi usa nubururu. Yambaye ikabutura, inyuma ye hari imodoka iruhande rwayo hahagaze umugabo.

Aha hagaragazwa abantu bateraniye mu nzu zikorerwamo ibisa nk'aho ari ubucuruzi nko muri banke cyangwa kwa muganga, bamwe bategerereje ku mirongo y'inyuma.

Mu mbuga ngari haparitsemo imodoka y'umukara, inyuma yayo hari inzu isakaje ibyatsi, Imodoka kugirango ngo igende inywa lisansi cyangwa mazutu, kandi ikenera umuyobozi uyitwara.

Iyi ni inzu yo mu bwoko bw'imiturirwa haragaragaramo ko uyu muturirwa ushobora kuba ukorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, iruhande rwaho hari aho abahagana bashobora guparika imodoka cyangwa n'ibindi binyabiziga byabo.

Iyi ni inzu imiryango yayo bikaba ari ibiro bikorerwamo ibintu runaka, hanze yaho hari abantu bategereje basa nk'abategereje serivise runaka.

Inzu yo guturwamo ifite amagorofa, yubakishije inkuta z'umuhondo iriho n'ibirahure ifite irembo rifite urugi ruriho imbaho.

Ikibuga cy'imyidagaduro cyubatswe vuba, cyiswe Amahoro, giherereye mu Rwanda, ndetse gikikijwe n'andi mazu atuwemo n'imiryango y'abantu, giherereye i Remera.

Inyubako y'amagorofa, ifite aho abayigana bashobora guparika ibinyabiziga byabo nk'amamodoka cyangwa amamoto.

Inzu y'igorofa ifite akagega hejuru gasa n'umukara. Ikigega kibika amazi, amazi ava ku gisenge cyangwa amazi yavomewemo azakoreshwa mu gihe runaka

Inzu ifite igisenge gitukura kigizwe n'amabati y'imigongo, ifite inkuta n'inzugi zifunguye ifite igikoresho cy'itumanaho kiyifasha kureba televiziyo z'iya kure kimanitse hejuru gifite amabara y'umweru.

Inzu ifite igisenge cyubakishijwe amabati ifite ikigega mu rugo gisa n'umukara. Ikigega kibikwamo amazi agakoreshwa igihe bikenewe.

Inzu ifite inkuta zisize amarange y'umweru rifiteho utwuma hejuru n'ahantu hateretse ibigega bibiri by'umukara, ifite ubusitani buteyemo indabyo z'umuhondo n'ibyatsi.

Inzu igeretse, ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, imbere yaho hahagaze abantu batatu ndetse haparitse amamodoka menshi, abagore babiri bambaye amajire y'umuhondo bahagarariye ibikorwa bya Emutiyeni.

Umuyobozi w'ipikipiki utwaye ipikipiki, isa n'umutuku, yambaye ingofero y'ubwirinzi, yambarwa n'abicaye ku ipikipiki, iri mu mabara y'ubururu yambaye ijire y'umuhondo hasi asa nubururu

Umuhanda w'umukara uragendwamo n'imodoka imodoka ni ingirakamaro mu ngendo za buri munsi, imodoka inywa esanse ikenera umuyobozi uyiyobora igihe igenda imodoka ishobora kunywa isanse cyangwa mazutu gusa muri iyi minsi hari n'izicagingwa n'amashanyarazi.

Nijoro amatara ari kwaka, iyo bwije izuba riba ryarenze bityo amatara aba agomba gucanwa, hari ayo ku mihanda cyangwa ahamanitse ku nzu z'imiturirwa cyango akoranye n'ibinyabiziga nk'amamodoka, iyo acanwe umuyobozi w'ikinyabiziga abasha kubona ndetse aramurika akamurikira n'abagenda n'amaguru.

Inzu y'igorofa ifite inkuta zisize amarangi y'icyatsi cyeruye, ifite ibirahure bisa ubururu, amarembo yayo afite urugi rusa umukara, yubakishije n'urukuta rw'amabuye.

Inzu igeretse inshuro eshatu imbere yayo haparitse ibinyabiziga, hanaca umuhanda w'umukara ugenderamo ibindi binyabiziga; nk'amapikipiki, imodoka z'umukara ndetse n'ibindi binyabiziga.

Imodoka iri kugendera mu muhanda w'umukara ikaba igeze ahaba haciye imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, ikaba ari imodoka isa umutuku yo mu bwoko bwa benzi, ikaba irimo umuntu umwe ariwe uyitwaye.

Umuhanda nyabagendwa usa n'umukara uragendwamo n'ibinyabiziga birimo amapikipiki ndetse n'imodoka. Impande zabo hari akazu kagenewe kwicarwamo'abagenzi igihe bategereje imodoka.

Umuhanda w' umukara ufite ikorosi ritandukanya imodoka zigendera mu cyerekezo kimwe. Ufite agace kuruhande gateyemo ubusitani burimo ibyatsi.

Umuhanda usa n'umukara ufite igice kishushanyishije imirongo y'umweru kuruhande rwayo cyagenewe guparikwamo n'ibinyabiziga mugahe gato gifatanye n'akayira k'abanyamaguru.

Ipikipiki ebyiri zitwaye abagenzi zifite abayobozi bose bambaye ingofero zishinzwe kurinda abicaye ku ipikipiki zisa n'umutuku n'amataburiya afite amabara y'umuhondo n'icyatsi ziragendera mu muhanda w'umukara.

Umuhanda usa n'umukara, ubuso bushashemo isima y'igiheri, uri kugendwamo n'imodoka z'umukara, impande yawo hari ubusitani buteyemo indabyo n'ibiti.

Ikiraro gikozwe n'inkuta zikomeye cyane, gitandukanya abajya mu Gatsata ndetse n'abajya ku Gisoz, kiri ku muhanda ujya Nyabugogo, mu muhanda w'umukara hagendwamo n'ipikipiki ndetse n'umunyonzi.

Umuhanda usa umukara uragendwamo n'ibinyabiziga nk'amapikipiki, n'imodoka nto, iruhande rwaho hari uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye.

Imbere y'inzira nyabagendwa hari akapa kamanitse ku cyuma gafite ishusho y'uruziga umuzenguruko w'amabara y'umutuku, ubuso bwayo hasa n'umweru handitsemo ikimenyetso cya P gicishijemo akarongo kaberamye gasa n'umutuku, iki cyapa cyerekana ko aho hantu hatemewe guparika.

Umuhanda w'umukara, ushashemo igiheri hasi, ku mpande ufite imirongo irombereje y'umweruru n'umurongo ucagaguye w'umuhondo hagati, uwugabanyamo kabiri mu burebure bwawo.

Umuhanda w'umukara ufite ikoni aha ngaha iyo umuyobozi w'ikinyabiziga ahageze aba agomba kugabanya umuvuduko kugira ngo adakora impanuka.

Umunyonzi ari kugendera mu muhanda usa n'igikara, ageze ku gice cy'umuhanda gifite imirongo ihagaze, kigabanya umuhanda mu bugari bwawo, ccyagenewe kwambukirwamo n'abanyamaguru.

Mu muhanda mugari w'umukara hashinze amapoto amanitseho amatara amurika ni nijoro, amatara yo ku ku muhanda ni ingenzi kuko amurikira abayobozi b'ibinyabiziga baca mu muhanda mu gihe cy'ijoro izuba ryarenze.

Imirongo igabanya umuhanda mu bugari bwayo isa n'umweru, aho abagenzi b'abanyamaguru bambukira. Iyi mirongo ishyirwa mu muhanda kugira ngo imodoka nizihagera zihagarare, zibanze zireke abanyamaguru bambuke.

Mu muhanda w'igitaka urombereje, ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye nk'amamodoka, amagare amapikipiki, nabantu. Umuhanda ukoreshwa byinshi, muri make umuhanda udahari abantu ntibabona uko bagenda n'ibinyabiziga byahagarara.

Umuhanda w'umukara iruhande rwawo mu kayira k'abanyamaguru hahagazemo abantu benshi hari umugenzi wegereye aho imodoka ziparika wambaye ishati y'umweru ufashe ku igare.

Umuhanda w'umukara uragendwamo n'imodoka n'amapikipiki ufite agace ko kuruhande rw'iburyo gaparitsemo igikamyo kirekire gisa n'umutuku iruhande rw'icyo gice hari akayira k'abanyamaguru.

umuhanda uri kicukiro rwagati, uca hejuru y'yinindi mihanda y'umukara munsi hagacamo ibinyabiziga bindi nk'imodoka amapikipiki ndetse n'abantu nabo bacamo n'umuhanda uri imbere y'isoko rya kicukiro.

Isangano ry'imihanda isa n'umukara harimo ibimenyetso biyobora ibinyabiziga n'abagenzi byifashishije urumuri hari kugendwamo n'ibinyabiziga by'amamodoka n'amapikipiki .

Isangano ry'imihanda rifite agace gato gateyemo indabo, imbere yaho hari uruzitiro rurimo inzu ifite amarange y'ubururu.

Umuhanda w'umukara, ubuso bwawo bushashemo isima yigiheri isa n'umweru, ucagaguyemo uturongo twumweru, impande yaho hari ubusitani buteyemo utwatsi.

Aha turi kubona umuhanda ugezweho urimo icyapa cyanditswe mu buryo bushushanyijeho, gitanga impuruza ko nk'uwo muhanda hashobora kuba hari inkomyi mu buryo bw'akamanuka cyangwa akadondi bityo k'umuyobozi afite kwitwararika.

Umuhanda ukata w'umukara urimo imirongo y'umweru ibiri ikomeza ndetse n'umurongo w'umuhondo ucagaguye, uri gucamo ibinyabiziga nk'imodoka ndetse n'amapikipiki.